Imbangukiragutabara iparitse iruhande rw'abagabo bane bambaye udupfukamunwa, abagabo bane bafite urupapuro barimo guhererekanya bigaragara ko ari umwe urimo kurushyikiriza abandi.